Ubuhinzi bw'imbuto bugezweho kuri ubu usanga bukorwa n'abantu bo mu nzego zitandukanye, umugabo wambaye agapfukamunwa afite ipompo irimo umuti ari gufuhira indimu n'amacunga ye kugira ngo udusimba tutarya uruyange.

Abacuruzi b'inyongeramusaruro zirimo UREA, DAP na NPK bakunze kwifashisha iminzani ya gakwege kugira ngo bagurishe abaje gushaka ifumbire niba ari abacuruzi baciriritse bataributware umufuka wose.

Mu rwego rwo kwirinda ko imbuto n'imboga zangirizwa n'udukoko, Leta y'u Rwanda yashyize nkunganire mu buhinzi aho usanga uretse kubaha ifumbire mvaruganda banabaha imiti yo gufuhira.

Mu rwego rwo kugira ngo abahinzi batajya batahira aho ngaho mu gihe imyaka yabo yariwe n'udukoko, Leta y'u Rwanda yabashyiriyeho nkunganire umuhinzi, ibafasha kubona amapombo n'imiti yo gufuhira imyaka yabo.

Ubuhinzi bw'amafi bukozwe kinyamwuga bushobora gutunga ababukora, aba bahinzi bibumbiye muri koperative hanyuma bagana banki ibaha inguzanyo na bo bashora mu bworozi bw'amafi mu byuzi binini cyane.

Abahinzi n'aborozi by'umwihariko aborozi b'amafi usanga bifashisha amazi meza kugira ngo amafi yabo atazigera ahura n'ikibazo, ni yo mpamvu iyo hari ikibazo kibayeho ababahaye ingwate n'inguzanyo baza kureba ikibazo cyahabaye.

Amafi yarobwe mu kiyaga cya Kivu biragaragara ko yujuje ubuziranenge bitewe n'uko angana, aya mafi biragaragara ko uyariye nta burwayi na buke ashobora kugutera kuko asaruwe igihe kigeze.

Abarobyi bajya kuroba bifashishije imitego itemewe izwi nka kaningini leta yabafatiye ibyemezo ndetse ku kiyaga cya kivu ishyiraho ibikorwa by'uburinzi ku buryo udashobora kujya kuroba utari muri koperative.

Mu rwego rwo kugira ngo amafi yo mu kiyaga cya Kivu akomeze gukora no gusugira Leta yashyizeho uburyo bwo gukoresha imitego yemewe hakurwaho imitego gakondo izwi ku mazina ya kaningini yakoreshwaga harobwa amafi.

Umugore uri gusarura ikawa yeze biragaragara ko ari kimwe mu bihingwa nzahurabukungu u Rwanda rufite kandi kikaba na kimwe mu bihingwa byoherezwa hanze mu rwego rwo kugira ngo amadovize yiyongere mu gihugu.

Ikawa n'icyayi ni bimwe mu bihingwa ngandurabukungu Igihugu cy'u Rwanda cyohereza mu mahanga ku buryo ubuhinzi bwabyo bushyirwamo imbaraga na nkunganira Leta ishyiriramo abahinzi bakayishyura ku giciro gitoya.

Ikawa itohagiye cyane bigaragara ko harimo itukurije ndetse n'igisa n'icyatsi biragaragara ko izuba ritarava kuko n'amababi yayo aracyatohagiye, aha ngaha NAEB iba yaragize uruhare rukomeye cyane kugira ngo iyi kawa imere gutya.

Ikawa ni kimwe mu bihingwa nzahurabukungu Igihugu gifite kandi kinohereza hanze y'u Rwanda, ikigo k'Igihugu gishinzwe ikawa y'u Rwanda NAEB kigira inama abahinzi bose ko bakwiye guhinga kawa ku bushake kandi ko bizabateza imbere.

Igihingwa cy'ikawa Leta yagishyizemo imbaraga nyinshi cyane kubera ko ari kimwe mu bihingwa bifasha u Rwanda mu kuzamura ubukungu bwarwo bitewe n'amadovize ikawa yinjiriza u Rwanda ifatanyije n'icyayi.

Icyayi n'ikawa usanga ari byo bihingwa bifatwa nk'aho ari byo byinjiza amafaranga menshi cyane mu gihugu. Niyo mpamvu abahinzi bashyirirwamo nkunganire muhinzi kugira ngo bakangukire guhinga ikawa n'icyayi.

Umugore uri gusoroma icyayi biragaragara ko afite umuhate ndetse n'ubushake bwo kugira ngo abone amafaranga yo gutunga umuryango we, uyu mugore nubwo yabitangiye benshi bamuseka bimaze kumugeza ku iterambere.

Ikawa iyo yinozwa ubu usanga ari ibintu abenshi badapfa kwiyumvisha uburyo ishobora kumera, iyo inozwa ishyirwa mu bihoho hanyuma igatwikirirwa hamwe mu gihe abahinzi bagiye kuyitera bakuraho amashashi aba akoze ibyo bihuha.

Mu rwego rwo kwirinda ko abana bakoreshwa imirimo ivunanye, nta mwana wemerewe kujya gukora mu mirimo y'icyayi. Aha ni mu muhanda ugana mu gice cy'ishyamba rya nyungwe, aho abasarura icyayi ubona ababikora babikunze bitewe n'amafaranga bakuramo.

Icyayi n'ikawa ni kimwe mu bihingwa bifasha abaturage b'Igihugu kugera ku iterambere rirambye, bitewe nuko babona amafaranga aturutse ku madovize aba yinjiye mu Gihugu kubera ko ikawa n'icyayi, ni ibihingwa byoherezwa hanze y'u Rwanda.

Abakorerabushake b'umuryango croix rouge bahuriye hamwe mu gikorwa cyo gusarura kawa, banashishikariza abaturage guhinga iyi kawa. Nubwo baba mu bijyanye n'ubuzima cyane ariko n'ubuhinzi ntibatanzwe.

Umuti ufunze mu ndobo nini cyane z'ibiro bitanu, icumi, umunani n'icyenda, ziriho ibyapa bigaragaza ko hari umuti w'inkoko ushobora kuba wakwifashishwa, ikiro kimwe kirahagije ku nkoko ijana.

Kuri ubu ntabwo bikiri ngombwa ko amatungo avuzwa imiti gakondo gusa, kubera ko yatunganyijwe igashyirwa mu macupa yabugenewe.

Aborozi b'amatungo barakangurirwa kuba bafite imiti igomba kubafasha guhangana n'ibyorezo, birimo uburondwe ndetse n'ikibagarira kubera ko ari bimwe mu bishobora gutuma umusaruro wabo, waba uw'amata ndetse n'uw'inyama utaba mwinshi.

Aquatabs ni ibinini ushobora kwifashisha uvura inka yawe mu gihe yahuye n'ikibazo runaka gusa aborozi baragirwa inama n'abaveterineri cyangwa se abavuzi bw'amatungo kwirinda kubyikorera kuko nta bumenyi buhambaye baba bifiteho

Amata yatunganyijwe neza agashyirwa mu dukarito, aracuruzwa. Rimwe na rimwe hari ubwo acuruzwa ari amata y'ifu. Aha ngaha baratwereka ikarito y'amata y'ifu, igizwe n'ibiro bibiri by'amata.

Imiti y'inka yaratunganyijwe iturutse mu bimera hanyuma ishyirwa ahantu hamwe, muri iyo miti hari imiti ihabwa inka, hari imiti ihabwa inkoko, hari n'imiti ihabwa inka n'intama.

Ni byiza ko inyamaswa by'umwihariko izororwa niba uhisemo korora inka ugomba no gushaka umuveterineri uzazitaho akazirinda uburwayi burimo gufatwa n'uburondwe cyangwa se ikibagarira.

Imiti yica uburondwe by'umwihariko ku nka, usanga ikunze kwifashishwa n'aborozi bafite amafamu, birinda ko uburondwe bwabangiriza inka zikaba zarwara ikibagarira cyangwa se umuriro ukabije.

Imiti yica uburondwe ni ingenzi cyane ku borozi b'inka bitewe n'uko iyo uburondwe bwageze mu nka nta muti uhagije ufite cyangwa abaveterineri wabihuguriwe ushobora kuba wakumara ku musaruro w'ubworozi bwawe.

Mu rwego rwo kugira ngo inka ndetse n'intama ze gukomeza gupfa umusubirizo kubera ko iyo zipfuye inyama zitanaribwa abahinzi n'aborozi by'umwihariko aboborozi, barakangurirwa gukoresha imiti yica uburondwe.

Umugore yahinze ibigori mu gishanga ariko bitewe nuko kuvomera avomera mu buryo bwa gakondo ntabwo amazi ahagije abigeraho, ni yo mpamvu byatangiye gutukura kandi bitararenga inonko.

Abahinzi n'aborozi bagirwa inama yo gukoresha ifumbire mvaruganda ndetse n'imborera kugira ngo umusaruro wabo ukomeze kwiyongera, ikindi kandi abajyanama b'ubuhinzi bagerageza kubereka uburyo guhinga ibiti bivangwa n'imbuto harimo ivoka n'imyembe bishobora kubateza imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi.

Ifamu y'inka bigaragara ko uyoroye ari umutunzi, iruhande rwe hari umugore icyo ari kumufasha nta kindi ari gufata inka akayishishira undi na we akayijya munsi n'igicuba agakama.

Igihingwa cy'ibigori usanga ari igihingwa cyiza cyane kuko gishobora kwera ahantu hatandukanye. Haba mu bibaya, mu misozi by'umwihariko ku misozi abaturage bakaba bagirwa inama yo kubihinga, baramaze guca amaterasi y'indganire.

Abahinzi babiri umugore n'umugabo, umugore yambaye umupira w'umweru naho umugabo yambaye isengeri y'umutuku. Bari kumenera ibigori byabo bitewe n'uko twamaze kwinjira mu gihe cy'izuba bagomba no kubyuhira, niyo mpamvu bakangurirwa kugura amapombo akura amazi kure.

Abahinzi bibumbiye mu makoperative usanga iyo bari guhinga biborohera, abagaragara aha ngaha biragaragara ko ari abahinzi b'urutoki bari kumwe n'umuyobozi wabo ari kubasobanurira uburyo bagomba kujya gufata inguzanyo muri banki ariko atagiye mu izina rye ahubwo bakagenda nka koperative.

Mu rwego rwo kugira ngo hakomeze kunozwa imikoranire y'amabanki n'amakoperative, usanga koperative iba igomba kujya muri banki ariko ifite n'ingwate ijyanye yo, igahitamo abagomba kuyihagararira muri ibyo bikorwa.

Ibishyimbo n'ibigori iyo bikivamo ubutaka nta gasimba karababirya uba ubona biteye amabengeza gusa iyo bimaze kwigira hejuru udusimba dutangira kubirya niyo mpamvu buri muhinzi wese agirwa inama yo gutera umuti kugira ngo nibura nibigera ku mababi atatu bizabe bitarapfumaguritse.

Igihingwa cy'imyumbati, ni kimwe mu bihingwa bikunze kugaragara cyane mu Ntara y'Amajyepfo. Mu myaka ishize hagaragaraga imbuto y'imyumbati yasaze ariko ubu gahunda ya nkunganire muhinzi ituma gutubura imbuto y'imyumbati bigenda neza.

Mu rwego rwo kugira ngo umusaruro w'ubuhinzi mu ngeri zitandukanye ukomeze kwiyongera, banki ndetse n'amakoperative Leta yabashyiriyeho uburyo bw'imikoranire ku buryo umuhinzi ajya gufata inguzanyo Leta ikazamwishyurira kimwe cya kabiri.

Igihingwa k'imyumbati mu Rwanda kigenda kirushaho gutera imbere bitewe nuko Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu gutubura imbuto y'imyumbati igabanya uburwayi bwahuraga n'iki gihingwa by'umwihariko mu Ntara y'amajyepfo.

Muri botiki icururizwamo ibyo kurya n'ibyo kunywa hazanywemo n'ibindi bishobora kuba byafasha abahinzi nk'ifumbire mvaruganda ariko ntabwo byigeze bivangwa n'ibindi bicuruzwa byari bihasanzwe kuko yashyizwe mu cyumba cyayo.

Igihingwa cy'urutoki kiganje mu ntara y'ububurasirazuba usanga ari kimwe mu byo iyi ntara izwiho urutoki ruba rukwiye kwitabwaho indwara yageramo nka kirarabiranya insinina yafashwe igakurwa mu zindi.

Akayira k'igihogere karimo abana benshi cyane basa n'abavuye ku ishuri harimo umukecuru uri gukora siporo yambaye ijipo ahagaze ku kaguru kamwe, iruhande rwe hari imiyenzi ku buryo akaguru ahagazeho aramutse anyereye yakwituramo.

Mu rwego rwo kugira ngo himakazwe umuco wo kurya imboga by'umwihariko mu byaro, aho wasangaga abana badashobora kurya imboga bavuga ko imboga atari ibiryo, ubu ngubu hashyizweho gahunda yo gutera igiti cy'isombe kuri buri rugo.

Igihingwa k'imyumbati ubona ko mu Ntara y'Amajyepfo ari igihingwa kiganje cyane, mu minsi yatambutse abahinzi batakaga ikibazo k'imyumbati yasaze ariko Leta yabashyiriyemo nkunganire mu kijyanye n'imbuto y'ubutubuzi bwayo.

Umuyobozi w'Umurenge wa Ngoma yambaye isaha ku kaboko, yambaye ishati irimo amabara y'umukara, umutuku ndetse n'umweru ariko anambaye agapfukamunwa bigaragare ko ari mu gihe cya Covid cumi n'ikenda aho yari ari gutanga ubutumwa ku bibanda ku kunywa inzoga begeranye.

Ishyamba rya Nyungwe ni rimwe mu mashyamba akurura ba mukerarugendo hano mu Rwanda, ubu ntirikitwa ishyamba ahubwo isigaye yitwa Pariki y'Igihugu ya Nyungwe mu rwego rwo kuyiha agaciro no guha agaciro ibyo yinjiriza Igihugu.

Ishyamba rya Nyungwe rigaragaramo inyamaswa nyinshi cyane zirimo: ibyonde, imihobobo, imbwa ndetse n'inkwavu z'ishyamba, iyo winjiye muri iri shyamba wumva umwuka utandukanye n'uwo mu bindi birere harimo kandi n'ikiraro gica mu kirere.

Ishyamba rya Nyungwe riherereye mu gice cy'intara y'amajyepfo ,ndetse no mu gice cy'uburengerazuba bw'u Rwanda ,usangamo inyamaswa zitandukanye zirimo ibyundi, inkura ,ndetse n'izindi nyinshi.

Mu ishyamba rya Nyungwe harimo inyamaswa zitandukanye, by'umwihariko izikunda gushimisha benshi ni inyoni n'ibyondi, muri iri shyamba kandi harimo ikiraro cyo mu kirere gikurura ba mukerarugendo kizwi nka kanopi.

Ishyamba rya Nyungwe riherereye mu gice cy'intara y'Amajyepfo ndetse n'Uburengerazuba, ribamo inyamaswa nyinshi cyane zitandukanye, zirimo ibyondi, impara, imparage, harimo kandi n'ikiraro cyo mu kirere kizwi ku izina rya kanopi, kimwe mu bikurura ba mukerarugendo.

Amashu atangaza benshi bitewe n'uko nta murama w'imbuto z'uruyange agira ahubwo ari umurama ukorwa muri laboratwari, izi ni imboga zikundwa n'abatari bake ndetse hari n'abazigaburira inkwavu.

Imiteja ni kimwe mu bihingwa byifashishwa cyane mu gukoreshwa nk'imboga kuko yaba abaziteka mu rugo, abaziteka mu maresitora bose bahuririza ku kuba imiteja iryohera abayirya.

Ipapayi ni kimwe mu biti biba bidakomeye cyane ku buryo kugitema bitagorana ariko ukurikije uburyo cyera imbuto nyinshi cyane zisobekeranye, ubona ko na byo ari ibintu bitangaje, hamwe bakubwira ngo nyirabugenge n'ubugenge bwayo.

Ibiti bisa n'ibyera imbuto zisa n'amacunga ariko zitaribwa usanga ari bimwe mu biti bigira amahwa, ibi byifashishwa mu gutuma ahantu hasa neza nubwo izo mbuto ziba zitaribwa ngo abantu babe bashobora kuzirya bumve uburyohe bwazo.

Imbuto zirimo avoka, ibinyomoro ndetse n'ibindi bitandukanye, usanga ku isoko ari zimwe mu mbuto zisa n'izabuze muri iyi minsi, Leta y'u Rwanda ikaba yaratangiye kugena ingemwe z'imbangurire kugira ngo abahinzi bongere bahinge amavoka.

Mu rwego rwo kugira ngo ubuhinzi bukomeze butere imbere Leta y'u Rwanda yashyize nkunganire ku bijyanye n'ifumbire mvaruganda, aho umuhinzi yishyura make make hanyuma imborera yayivanga n'imvaruganda bigatanga umusaruro uhamye.

Igihwagari ni kimwe mu bihingwa biteza abagihinga imbere kubera ko kivamo amavuta akundwa n'abatari bake ku isoko, igihwagari kandi iyo kigiye kwera kiyanga uruyange rusa n'umuhondo.

Imbuto zera ku ndabyo zisa n'amacunga ntabwo zishobora kuribwa kuko nubwo ziba zitukurije kandi ziteye amabengeza ziba zishaririye iyo uziriye, izi ngizi zirihungura zikabura bityo bityo sezo imwe ikavaho hakaza indi.

Ibidodoki usanga atari ibintu bikunzwe by'umwihariko mu Ntara y'Amajyepfo n'Amajyaruguru, ibi ngibi abenshi bavuga ko bigira isosi nziza ariko si benshi bakunda kubirya.

Umugore uri mu ishyamba ari gusarura imyaka ye, biragaragara ko wagira ngo ni ibireti yahinze ariko na none wakwitegereza neza ukabona bisa n'imboga.

Umugore uhinga urusenda ndetse n'izindi mboga zitandukanye utibagiwe n'inyanya, afite pompe yaguze mu mafaranga yakuye muri banki nk'inguzanyo kubera gahunda ya nkunganire muhinzi.

Ubuhinzi bugezweho kuri ubu bukorwa hifashishijwe icyo nakwita ikoranabuhanga mu bijyanye no kuhira kubera ko imashini zaje abahinzi bagashyirirwamo nkunganire usanga bitabira cyane kuhira bakoresheje izi mashini ntibatinye no guhinga mu gihe k'izuba.

Umugore wahinze imbuto ari gukoresha uburyo gakondo bwo kuvomerera burimo gufata indobo ukajya kudaha amazi, ni byiza ko niba uhisemo gukora ubu buhinzi mu gihe cy'izuba ushaka ipombo igomba kuzabigufashamo neza.

Mu minsi ishize igihingwa cy'ibigori cyari cyibasiwe na nkongwa yabyigabizaga ikabirya bitaraba umuheko, kuri ubu Leta y'u Rwanda yazanye uburyo bwa nkunganire, aho ibafasha kubona imiti ituma inkongwa zitibasira ibigori byabo.

Mu rwego rwo kugira ngo kuhira imyaka birusheho kugenda neza, by'umwihariko mu gihe cy'izuba aho abahinzi baba barahinze imbuto n'imboga zitandukanye, harimo inyanya, karoti ndetse n'intoryi bifashisha imashini zigezweho.

Kuhira imyaka kera wasangaga bikorwa mu buryo bwa gakondo aho bakoreshaga utudobo n'udusafuriya ariko kuri ubu abahinzi bibumbira hamwe bakaba bashobora kugura imashini yakuhira mu birometero mirongo itatu na bitanu.

Mu rwego rwo kwimakaza umuco wo guhinga mu zuba, abahinzi benshi bakangurirwa kwibumbira mu makoperative kugira ngo nkunganire muhinzi, ibashe kubaguriza amapombo ndetse bazayishyure gake gake.

Abahinzi bahinga mu butaka busa naho ari ubw'imisozi ni ukuvuga ahantu hahanamye bagirwa inama yo guhinga ariko bakabanza guca amaterasi y'inganire kuri iyo misozi ndetse ku nkengero bagateraho ibiti n'ubwatsi ibyo bitakaba ari ibiti bigomba kuba bivangwa n'imyaka.

Ishyamba rya Nyungwe ni rimwe mu mashyamba akurura ba mukerarugendo benshi hano mu Rwanda kuko ubu ritakitwa ishyamba ahubwo basigaye bavuga ko, ari Parike y'Igihugu ya Nyungwe bitewe n'inyamaswa nk'ibyundi n'imihobobo zibamo.

Leta ikangurira abaturage guhangana n'isuri ishobora kwangiza ubuzima bwabo n'ubuzima bw'imitungo yabo baca amaterasi y'indinganire ku misozi hanyuma bakabasha kubona umusaruro ndetse bagatera n'ibiti bivangwa n'imyaka kuko bifata ubutaka.

Ishyamba rya yungwe ni kimwe mu bikurura ba mukerarugendo hano mu Rwanda bitewe n'inyamaswa zirimo habonekamo ibyondi, inkwavu, amafuko, ndetse n'amasiha ikirenze kuri ibyo harimo n'ikiraro cyo mu kirere kizwi nkakanopi.

Ubutaka buhanamye Leta igira inama abantu kutabuturaho kuko bushobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga, ahubwo ikagira abakora ubuhinzi inama ko bakwiye guca amaterasi y'indinganire, bagateraho ibiti bivangwa n'imyaka ndetse bakanahingaho.

Ubworozi bw'inkoko ni kimwe mu byo abantu kera bafataga nk'ibidafite umumaro ariko kuri ubu Leta yashyize nkunganire mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, aborozi b'inkoko na bo urumva ko batigeze batangwa.

Umugabo wambaye bote afite inkoni yambaye n'ingofero y'urugara, ari guha inka ye amazi mu ibase isa n'icyatsi, inka ye ifite ibara ry'umweru mu gahanga ndetse no mu mugongo, ahandi hose irasa n'umukara.

Inka imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, iruhande rwazo hari abagabo bane. Abagabo batatu muri bo bambaye amasarubeti y'ubururu mu gihe undi yambaye ikaburiya y'umweru. Icyo bahurizaho bambaye bote nubwo zose zidasa.

Ibibwana by'ingurube bigeze mu gihe cy'amezi abiri biba bigomba kuva kuri nyina buri kimwe kigatangira kubaho ukwacyo, ibiryo birya ni ibisigazwa by'ibiribwa birimo ingano, amasaka ndetse n'imyumbati.

Inkoko z'imishwi ntabwo kuri ubu kuzorora neza bikiri ngombwa ko zitererwa hanze, ahubwo zigomba gushyirwa mu bibuti hanyuma noneho zikagaburirwa ibiryo birimo ibiheri by'ibigori ndetse n'iby'ibishyimbo.

Inkoko zisaga mirongo itandatu n'imwe ziri mu kibuti kinini cyane aho iruhande rwacyo hari ikigega cy'amazi ku buryo umworozi wazo iyo ashaka ko zinywa amazi afungura amazi akajya mu tuvure twabugenewe.

Mu rwego rwo kugira ngo ubuhinzi bukomeze kurushaho kongererwa agaciro, hagenda haboneka imashini zihungura ibigori kugira ngo uburyo gakondo bwakoreshwaga bukangiza ibigori bwe gukomeza gukoreshwa.

Inka itari inyarwanda imwe zizwi mu bwoko bw'ijerisi ihagaze nta mahembe igira, izi ngizi kera bazitaga inkungu kubera ko inkungu zabaga ari inka zitagira amahembe ibwami.

Inka eshatu ebyiri muri zo nta mahembe zifite ziri kurya ziteganye, izi ni inka bigaragara ko arizo mu bwoko bwa jerisi ikindi kandi zikaba zishimirwa ku gutanga umukamo.

Ingurube ebyiri zifite amatwi atendera buzovu ziragaragaza ko zikiri ibibwana ariko zifite imigongo myiza, izi ngizi nizitabwaho nyuma y'amezi atatu zizaba zatangiye gutanga akabenzi.

Mu rwego rwo kugira ngo inkoko zibashe gukura neza nta byonyi zihuye na zo byaba ibisiga, uduca cyangwa se ibyiyoni, ni byiza ko zororerwa mu bibuti byabugenewe hakirindwa guhora uhanganye n'ibyanira.

Bitewe n'uburyo ihene zivamo burushete usigaye usanga ku masoko inyama zazo zihenda cyane, bigatuma nta rubanda rwa giseseka ushobora kuyigondera, ku buryo zose zerekezwa mu maresitora ndetse n'amahoteli.

Inka nyinshi cyane bigaragara ko ari inka za kinyarwanda zifite amahembe maremare ziyateze zose zirasa n'ikijuju, imbere y'aho hari abaveterineri babiri bambaye amataburiya y'umweru bari kugenda bazikurikirana ngo barebe niba nta burwayi zifite.

Ubworozi bw'ingurube ntibugifatwa nk'ubuciriritse kubera ko ababukora batunzwe na bwo kandi nta kindi kintu bakora, iyi yabwaguye ibyana bisaga bitandatu, mu mezi atatu gusa buri kimwe kigomba kuba cyagizwe ukwa cyo kugira ngo kibashe kurya kidakomeje konka nyina kuko na yo ikeneye kuzongera kubyara.

Mu rwego rwo kwimakaza ubuhinzi n'ubworozi ni byiza ko abahinzi bororera mu biraro hanyuma bakabona ifumbire y'imborera ibafasha mu kugira ngo yunganire ifumbire mva ruganda umusaruro ube uhagije.

Ubworozi bw'inkwavu ntibugifatwa nk'ubworozi buciriritse kubera ko ari ubworozi bwamaze kugaragara ko bushobora gutunga nyirabwo mu gihe yabukoze kinyamwuga, inkwavu zishobora kororwa ku buryo urukwavu rumwe rwapima ibiro biri hagati ya bitanu n'icumi.

Mu rwego rwo kuzamura umusaruro ukomoka ku bworozi bw'inkoko yaba ubw'amagi ndetse n'inyama z'inkoko, leta y'u Rwanda yashyizeho amaturagiro rusange, aho aborozi bashobora kugana aya maturagiro bagakurayo inkoko za kijyambere.

Imishwi y'inkoko usanga iyaturazwe n'imashini bitewe n'uko iba igomba kurya ibiryo bya kijyambere ikura vuba, ibi byaje bihindura uburyo bwari busanzwe bwororwagamo inkoko aho inkoko yashoboraga kwitunga ihanganye n'agaca kugera ikuze, mu mishwi icumi hagakura ibiri.

Ibinyampeke birimo amashaza, soya, ingano, ibishyimbo ndetse n'umuceri byashyizwe hamwe kugira ngo hakurwemo impagararizi zishobora kuzifashishwa mu imurikagurisha.

Ibishyimbo, ibigori, soya, umuceri ndetse n'amashaza ni bimwe mu binyampeke bigezweho kandi bikundwa n'abatari bake mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange bitewe n'icyanga bigira.

Mu Rwanda rwo hambere hari ibyo bitaga inzuho byeraga ku myungu, aha haragaragara ibirimo ibishyimbo, soya, amashaza, amajeri ndetse n'amasaka utibagiwe n'ingano zidatonoye.

Imbuto y'ibigori yakusanyirijwe mu ikusanyirizo ishyirwa hamwe kugira ngo abahinzi bafashwe kubona isoko ry'ibicuruzwa byabo, bityo umusaruro babona buri mwaka utazajya wangirikira mu mazu yabo.

Ibishyimbo biterwa ni ibishyimbo bifite ubuziranenge bwizewe ni yo mpamvu uyu mugabo yabishyize ku kiganza ari kugenda arobanura ibitekwa akabikuramo hanyuma ibiterwa akabishyira ukwa byo.

Abaturage bibumbiye mu makoperative bashyiraho uburyo bwiswe ubwanikiro bwo kugira ngo imyaka yabo ye kujya yotswa nkuko bakunda kubyita iyo bayigurisha iteze neza.

Intoki zibyibushye cyane zikoze ikiganza kinini, ziriho impeke z'ibishyimbo bya kizungu, bigaragara ko ariko kwereka abantu ibishyimbo bikwiriye guterwa n'ibikwiriye gutekwa. Aha ngaha iyo uteye ibitekwa, birangira nta musaruro ubonye.

Ibiganza bibiri bifite impeke z'ibishyimbo n'ubunyobwa zibiteruye mu kiganza, ziri kwerekana ko umusaruro wabyo uramutse witaweho neza, wahinzwe hakoreshejwe ifumbire mvaruganda n'imborera byateza Igihugu n'abagituye imbere.

Umugabo ari gukama inka undi ari inyuma ari kuyishishira ni inka y'amabara y'umukara n'umweru umugabo uri kuyishishira yambaye bote ndetse yambaye n'ikaki y'igitare.

Veterineri w'umurenge aba akwiye gukorana na veterineri w'akagari kugira ngo amenye neza ibibazo biri mu murenge we, bityo babashe kurandura ibyorezo byibasira amatungo, yaba inka, ingurube ndetse n'intama.

Inka ifite amahembe maremare biragaragara ko iri mu kiraro cya kijyambere. Umworozi yahamagaje abaveterineri babiri baje bambaye amataburiya y'ubururu kugira ngo bamufashe kuzivura uburundwe.

Veterineri yambaye itaburiya y'ubururu yambaye n'ingofero y'ubudodo mu mutwe, ari mu kiraro cy'umworozi witwa Gashyirabake akaba yaje gusuzuma inka ye, yambaye ga ari kuyikora mu nda ngo arebe ikibazo ifite.

Umugabo w'umworozi w'inka utuye mu karere ka Musanze, afite inka nyinshi cyane ariko imwe muri zo yarwaye, niyo mpamvu yahamagaye veterinary ngo aze kureba ikibazo afite, hanyuma abe yanayitera imiti.

Veterineri wambaye isarubeti y'ubururu yambaye n'igishashi kinini cyane ku kaboko nta ngofero yambaye ahubwo yinjiye mu kiraro cyubakishije ibyuma ari gusuzuma inka akora mu nda yayo ngo arebe uko inyana ihaka imeze.

Veterineri yaje gusuzuma inka y'umugabo ufite ifamu nini cyane mu Kagari ke, uyu mugabo afite inka zirenga magana atandatu bityo rero aba akeneye ubuvuzi buhoraho n'ubugenzuzi kugira ngo inka ze zitazarwa uburondwe.

Inka y'ikibamba viterineri yaje kuyitaho aza yambaye agapfukamunwa, biragaragara ko nyirayo ayitaho cyane kuko yamaze no kuyiteza iherena, byumvikane ko utateza inka iherena utarayiteza urukingo.

Inyoni nziza cyane ziboneka muri parike y'Igihugu y'Akagera zifite amaguru y'umutuku, amababa y'umweru ndetse amaso arasa n'aho yirabura, umunwa wazo umeze nk'igipokoshoti.

Ingagi ni imwe mu nyamaswa zikanganye cyane ariko na none zigira urugwiro, ikindi zizwiho ni uko zikunda abana bazo, uramutse uyenderereje umwana yakwigereza uwo nkana ukahava nabi.

Mu ishyamba ry'Akagera harimo inyamaswa nyinshi ziteye amabengeza, iyi Parike y'Igihugu y'Akagera inabamo umugezi bivugwa ko ushobora kubu na wo ari bimwe mu bifite aho bihurira n'isoko ya Nile.

Ingwe ni inyamaswa iteye ubwoba cyane iyo uyitegereje ubona ifite amabara y'umukara n'andi agiye anyuranyemo ku buryo rimwe na rimwe ushobora kuba wanayitiranya n'injangwe.

Urukwavu rw'ishyamba rukunda kuba rwihagarariye mu bimera by'icyatsi kibisi, ahangaha biragaragara ko rwabanguye amatwi rwihagarariye mu ngano ariko rukaba rudashobora kuzona. Ibi rero bituma abantu benshi barukunda.

Imbata zo mu gasozi usanga zitandukanye n'imbata zo mu rugo zororwa, imbata z'agasozi usanga akenshi na kenshi zifite umutwe w'icyatsi, umunwa w'umuhondo zikagira n'akabara k'umukara munsi y'ibara ry'icyatsi.

Abakerarugendo mu Rwanda baza bakurikiye ibintu byinshi bitandukanye, abasura pariki y'Igihugu y'ibirunga basura ingagi, mu gihe basura pariki y'Igihugu y'Akagera basura inzovu n'intare na ho abasura parike y'Igihugu ya Nyungwe bagasura ibyondi.

Impala n' imparage ni inyamaswa zikunda kwibera mu ishyamba. Iyo uzibonye ubona ko ari inyamaswa z'inyamahoro ku buryo kugira ngo ikubangamire atari ibintu bikunda kubaho, icyo gihe uba warengereye.

Intare iyo ikiri ntoya iba itarazana umugara, iyo yazanye umugara nyina itangira kuyihiga ngo na yo ijye kwishakira kubera ko iba yaramaze kuba inkuru, ibi ngibi si ko bimeze ku kiremwamuntu kuko umwana akomeza kuba umwana ku mubyeyi we.

Ingagi ni zimwe mu nyamaswa zisigaye hake ku Isi, hano mu Rwanda ziboneka muri pariki y'Igihugu y'ibirunga, aho usanga abakerarugendo benshi iyo baje abanya Musanze bafite amahoteli n'amaresitora, babyishimiye cyane.

Ishyamba rya Nyungwe ni rimwe mu birimo ibinyabuzima bisanzwe bitaboneka ahandi ku isi, rimwe na rimwe iyo abakerarugendo baje kubisura batungurwa n'inyoni ndende zifite amajosi n'amaguru maremare.